Umugabo urimo aramwenyura, yambaye ishati y'umweru ya'amaboko magufi, ahagaze mu nzu bigaragara ko ari iyubucuruzi, imiryango y'iyo nzu ifite ibara ry'umuhondo.

Akazu kari mu ibara ry'umutuku ku ruhande yako hakaba hari umutaka w'umutuku hatangirwa serivisi z'itumanaho.

Abantu bari mu nama abagabo n'abagore, bari mu nama ivuga ku ishoramari ryerekeranye n'Akarere ka Nyagatare.

Umugabo wirabura cyane udafite umusatsi mwinshi, ahagaze imbere y'ameza bahagararaho bari kuvuga imbwirwaruhame, afite mikoro arimo aravuga.

Abantu babagabo, abagore, abakiri bato ndetse n'abakuze bicaye mu ihema ryateguwe neza, biragaragara ko ari abaganga baje mu mahugurwa ku nsanganyamatsiko bateguriwe.

Ihunikiro ry'ibigori mu nzu harimo ibigori bahanitse byumye, hari ikigega gifata amazi avuye kuri iryo hunikiro.

Abagabo babiri, umwe wambaye ikositime y'umukara, undi yambaye ishati y'umweru n'ipantaro. Bambaye udupfukamunwa, umwe arimo arakora mu kabati gafite amabara y'umutuku.

Iki ni icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo mobiyiro money mu magambo ahinnye. Iyi ni serivisi itangwa n'ikigo gishinzwe itumanaho cya MTN gikorera mu Rwanda.

Abadamu bane, harimo umwe wambaye itaburiya y'umweru n'akagofero k'umweru, bari kureba mu muryango w'inyubako isize karabasase.

Njye nari nzi ko kwicara munsi y'ibiti byacitse kuko ibyo bintu byari ibya kera. Hano aba bantu baracyicara mu biti, bari gukora inama.

Abantu b'urubyiruko bambaye imyenda y'imipira hejuru isa umweru, hasi bamwe bambaye umukara, bari kwamamaza ikigo gitanga serivisi z'imari.

Iduka ricuruza inzoga zisembuye n'izidasembuye, harimo amacupa agiye ateretse ahantu y'inzoga z'ubwoko butandukanye, izisindisha ndetse n'izidasindisha.

Inzu irimo akabati gafite amabara y'umutuku, akaba ari akabari gacururizwamo inzoga zitandukanye, yaba izisindisha ndetse n'izoroheje, zifatwa n'Abakirisitu.

Mu cyumba k'inzu harimo ameza meza cyane ariho urupapuro hejuru, hirya hari agasanduku gakoze mu byuma.

Umugore urimo araseka yambaye imyenda idoze mu bitenge, ni umucuruzi acuruza ibintu bitandukanye impapuro z'isuku, amavuta ndetse n'ibindi byinshi.

Aha hari ikintu kifashishwa bafatisha ibintu bitandukanye kitwa supaguru. Ushobora kugikoresha ufatanya nk'impapuro ndetse n'ibindi.

Iduka rigezweho ricuruza imyambaro cyane cyane iy'abakobwa, hari igishushanyo bambitse umwenda w'umweru ariko nta mutwe gifite, hari n'ibindi inyuma y'aho bibiri.

Akazu kubakishije ibyuma, karimo amacupa aba arimo gaze, hejuru handitseho amagambo avuga ngo tubafitiye gaze n'ibikoresho byose.

Ahantu hari ibintu bitandukanye: indobo z'imyeru zibonerana, amagare atwara imizigo ndetse n'umufuka urimo ibintu n'umuntu wicaye hirya.

Udukoresho twifashishwa mu gutwara umusaruro uva mu bworozi bw'inkoko. Batwaramo amagi bayajyanye kugira ngo atameneka.

Akazu gakozwe mu byuma gateretse hanze karimo amacupa abamo gaze handitseho hejuru tubafitiye gaze n'ibikoresho byayo byose ku giciro gito.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, harimo amandazi ari mu ndobo y'umweru ibonerana. Harimo umugabo wambaye umupira w'umuhondo, arimo araseka.

Iri ni iduka ricuruza ibintu bitandukanye, harimo umugore urimo aramwenyura, ucuruza ibyo bintu, harimo umuceri, amavuta, yo kurya impapuro z'isuku n'ibindi.

Inyubako nziza isakaje amabati atukura, ikaba isize irange ry'umweru, imbere ku rwinjiriro hariho uruzitiro rw'ibyuma, uru ni urusengero.

Abantu bambaye imyenda yiganjemo iy'umweru, biragaragara ko hari amataburiya bambaye bisa nk'abaganga, bahagaze imbere y'inyubako zisakaje amabati atukura.

Inama yahuje abihayimana, baganira ku kuntu ubukirisitu busigaye buhagaze mu gihugu cy'u Rwanda. Harimo abambaye amakositime y'amabara atandukanye.

Umugabo urimo arareba undi mu maso, uwo mugabo ni umuzungu, inyuma ye hari undi musore bigaragara ko yakoze imyitozo ngororamubiri ihagije.

Abantu bapfukamye barimo barasenga bamanitse amaboko harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hari undi wicaye ku ntebe na we wamanitse amaboko.

Umubyeyi bigaragara ko akiri mutoya atarakura cyane, arimo aranywa amazi, hari abantu benshi bahagaze, umwe arimo arunamye, ari kuvoma amazi nawe ngo anywe.

Abagabo babiri umwe yambaye agapfukamunwa gatukura, undi ak'ubururu. Hari ikintu cy'igikapu bafite mu ntoki barimo barifotoza.

Abantu bari imbere y'inyubako, yubatse mu buryo bwa etaje igezweho, bari kwifotoza, abenshi bambaye imyambaro y'umweru, bisa nkaho ari abihaye Imana.

Abamama, bambaye imyenda idoze mu bitenge, inyuma yabo hari itente ry'umweru ,bahagaze mu byatsi bigufiya.

Hotel ni kimwe mu bikorwa remezo byifashishwa n'abaturage benshi mu gihugu cyangwa se abakerarugendo baba bagiye gutembera, haba hari n'amazi bogamo.

Inyubako yubatse mu buryo bugezweho bwa etaje, hagati hariho amazi agiye kugira ibara ry'ubururu bwijimye bogamo igihe basohotse kuri iyo hoteli.

Buri hoteli nziza mu rwanda, iba ifite amazi azwi nka pisine bogamo. Iyi pisine iruhande rwayo hariho umutaka, hirya hakaba hari n'ubusitani bwiza cyane bubereye ijisho.

Inzu nziza cyane rwose yubatse ku buryo bugezweho, ni hoteli. Yakira abantu bose batandukanye, ikabacumbikira ndetse ikanabagaburira, nabo bakishyura amafaranga.

Aho abantu bajya bakogera ndetse bagakora n'imyitozo ngororamubiri, ijyanye no koga mu mazi, aya mazi akaba ari aya hoteli yubatse mu gace runaka ndetse hari n'udutebe abantu bicaramo.

Ahantu heza cyane hari n'amazi bogeramo iyo wasohokeye muri hoteli runaka, hirya hari izindi nyubako ndetse n'ibidukikije byiza.

Inyubako nziza cyane irimo ibintu bitandukanye, hari akavase karimo ururabyo ndetse hejuru hari ni amatara arimo aramurika.

Icyumba k'inzu kiza cyane kirimo igitanda gishasheho amashuka y'umweru, harambuyeho akandi kantu kajya gusa ibara ry'iroza.

Iyi ni inyubako nziza yubatse ahantu heza ku ruhande hariho amazi bogeramo iyo bahasohokeye, maze bagakora imyitozo yo koga banishimisha.

Icyumba cyo muri hoteli kirimo ameza n'intebe nziza zikoze neza, harimo amatara ari kumurika bisa nkaho ari nijoro.

Icyumba k'inyubako kirimo igitanda kiza gisashe neza, hariho imisego ibiri y'umweru, ku ruhande hari n'ameza.

Icyumba cyiza cya hoteli runaka, kirimo igitanda kiza gifite amashuka y'umweru ndetse n'imisego ine y'umweru.

Ubusitani bwiza burimo pasuparumu n'uduti tugufi ariko twisumbuye hari n'ibindi birebire, hirya hari inyubako nziza yubatse ku buryo bwiza.

inyubako nziza cyane yubatse ku buryo bw'ikiziga iriho amarangi y'umweru. Hari n'utundi tuNyubako dutoya, hanze yaho hari igiti cyimikindo.

Ubucuruzi budateye imbere, hari umuntu urimo aracuruza inkweto zambarwa igihe umuntu ari mu rugo. Hirya hari amagare.

Isoko bigaragara ko ritaratera imbere, ririmo ibicuruzwa by'imbuto, inyanya, intoryi ndetse n'urusenda, harimo abagore baje guhaha, abandi ni abacuruzi.

Mu byaro usanga hari abantu benshi batunzwe no gukora ubuhinzi, bahinga ibirayi ndetse n'ibijumba nk'ibiingibi turimo turareba hano.

Umubyeyi w'umudamu witeze igitambaro gitukura mu mutwe arimo aranika imyumbati basyamo ubugari, hirya hari abasore n'amagare ahaparitse.

Abantu benshi cyane barimo baragenda ni urujya n'uruza, bamwe baragenda abandi bakagaruka, biragaragara ko aho hantu hameze nko mu isoko cyangwa agasantere.

Isoko bigaragara ko ritaratera imbere kuko barimo baracururiza inkweto hasi. Isoko ntiryubakiye, harimo umuntu w'umwana arimo arashaka inkweto zo kugura.

Umuhanda wa kaburimbo, ubona ko ukiri mushyashya, urimo uragendamo abantu bikoreye imifuka, harimo ibintu bavuye guhaha, urugero nk'ibirayi.

Umuhanda w'igitaka mwiza harimo haragendamo abantu harimo umwana mutoya ufite agafuka k'akadeyi, hirya harimo abandi bantu benshi bisa nkaho ari mu isoko.

Ubucuruzi bushingiye ku bugeni hari udukoresho tubajwe mu biti twitwa imyuko, amajagi ndetse n'indobo z'imyeru.

Aha ngaha ni mu isoko, harimo abantu batandukanye abamama ndetse n'abakobwa bakiri bato bari mu bucuruzi butandukanye, harimo intoryi ndetse n'ibindi.

Ibikoresho byifashishwa mu gukora isuku woga harimo: isume, ibitenge n'imisego yifashishwa uryamye.

Mu Rwanda, umusaruro wose iyo ugeze igihe urasarurwa, ukajyanwa ku ikusanyirizo nk'uko bigaragara hano iri ni ikusanyirizo ry'ibigori aho byanitsemo.

Ahantu hameze nko mu isoko, bakoresha badodera imyenda, urabona ko hari imashini hariho imbabura ikoze mubati, bakoresha botsa ibigori ndetse hariho n'ameza ariho tapi ifite amabara atandukanye, aha hantu ntabwo hateye imbere.

Aha ni muri hoteli harimo intebe zitandukanye, zifashishwa, bafata amafunguro, yaba aya mu mugitondo, cyangwa aya nimugoroba. Nawe waza ukahakodesha.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo amagare abiri. Igare ry'imbere rihetse umugore wicayeho yitambitse.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo ikinyabiziga kizwi ku izina rya moto, gifite umumotari urimo aragitwara, hirya y'umuhanda hari amazu yubakishije amabati asa umweru.

Umuhanzi wo mu Rwanda witwa Butera Jane. Ari mu modoka y'umukara, yambaye amarinete y'umukara.

Ikinyabiziga cya moto, kirimo kiragenda mu muhanda wa kaburimbo, urimo umurongo w'umweru ucagaguye. Ahetse undi muntu, bose bambaye ingofero zibarinda.

Umumotari uri kuri moto ye ahetse undi mugabo wambaye umupira wumuhondo, bose bambaye ingofero z'ubwirinzi hirya hari inyubako.

Umumotari wambaye akajere gasa ibara ry'umutuku, arimo arasukira umuti wica udukoko ku kumu agiye gutwara, mu rwego rwo kwirinda kwandura.

Igikorwaremezo cy'umuhanda wa kaburimbo, kirimo kiragendamo umuntu utwaye igare ahetse amajerekani kuri iryo gare, hari n'abantu bari kugenda ku ruhande.

Umuhanda mwiza utari uwa kaburimbo usashemo amabuye, harimo umuntu usunitse igare ahetseho indobo irimo imifuka, iyo mifuka ikaba irimo ibigori.

Uyu numuhanda wa kaburimbo urimo uragendamo ikinyabiziga cya moto. Kicaweho n'umuntu wambaye umupira w'ubururu.